Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu buhinzi, umugabo uri mu murima w'urusenda uri kuvomerera, uhetse igikoresho bakoresha bavomerera imyaka gifite ibara ry'ubururu, yambaye ishati y'umweru.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu buhinzi, umurima munini uhinzwemo ibigori iruhande hatewemo ubwatsi bw'amatungo, umugabo uhetse igikoresho bifashisha bavomerera imyaka uri gushyira amazi mu mirima.

Icyumba kinini gisizwemo irangi ry'umuhondo, harimo utubati dutondetsemo ubujerekani bw'umweru, hejuru harambitse amakarito afite ibara ry'umweru.

Icyumba kinini kirimo akabati gatondetsemo ibintu bitandukanye byifashishwa mu buhinzi nk'igikoresho bakoresha bavomerera imyaka, hejuru y'akabati hari ibikoresho bifashisha bagaburira amatungo, icyumba gitewemo irange ry'umuhondo.

Kugira ngo tubone umusaruro uhagije tugomba kwita ku bimera byacu twifashishije ifumbire ihagije, tukabibagara, tukabyuhira bituma tubona umusaruro mwinshi, ubutaka burimo umuntu uri kuyora ifumbire ajyanye mu murima.

Icyumba gicururizwamo ibikoresho by'ubuhinzi, bimwe bakoresha bavomerera imyaka bifite ibara ry'icyatsi, imiti bakoresha mu kwica udukoko, hicayemo umugore wambaye ishati y'umweru, ku meza hari mudasobwa.

Ubuhinzi budufitiye akamaro muri rusange ndetse bukagirira n'iterambere igihugu cyacu, kugira ngo tubone umusaruro uhagije tugomba kwifashisha imiti yica udukoko. Inzu nini cyane irimo akabati irimo n'imiti itandukanye iy'icyatsi n'iy'ubururu.

U Rwanda rw'imisozi igihumbi rurahinzwe rwose. Umurima munini uhinzwemo ibigori bitari byera, harimo abantu batatu, babiri bari kubagarira umwe ari gushyiraho ifumbire y'inyongeramusaruro.

Gukorera hamwe ni byiza mugahuza imbaraga, umurima munini urimo abagore, abagabo, bafite ibase y'umutuku, harimo ifumbire y'imvaruganda bari gushyira ku myaka, inyuma yabo hari urutoki.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, umurima munini uhinzwemo inyanya, harimo umugabo uhetse igikoresho bifashishije bavomerera imyaka gisa ubururu, iruhande hari ibiti binini bikikije umurima.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu gihugu cy'u Rwanda, umurima munini uhinzwemo ibigori, urimo abagabo batatu, babiri bahetse ibikoresho bari kwifashisha batera umuti mu bigori, hepfo hari umugezi urimo amazi.

Ubuhinzi n'ubworozi bya kijyambere bikomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda. Inyubako nziza cyane isizwe amarangi asa umuhondo, harimo akabati karimo amakarito, amacupa ndetse n'umuntu wicayemo wambaye imyenda y'umweru.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy’u Rwanda. Igishanga kinini, hahagazemo abagore, abagabo, bamwe bafite imihoro mu ntoki zabo, bari gutema ibyatsi. Inyuma yabo, hari ibara ryubakishijwe ikiraro.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ikibuga kinini kirunzweho ifumbire ikomoka ku matungo, hahagazemo umugabo imbere y'ifumbire, hirya hahinzwe ibigori bitarera, impande hari ishyamba rinini.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Umurima munini usutswemo ifumbire y'amatungo, hejuru yayo hahagaze umugabo ufashe ku giti wambaye inkweto z'umukara n'ipantaro y'umukara n'umupira w'umutuku; inyuma ye hari ishyamba rinini ririmo...

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda; abanyarwanda bafashanya mu guhinga ibihingwa bizana umusaruro. Umurima munini uhinzwemo ibigori; harimo abagore, abagabo, bamwe bari kugenda bashyiraho ifumbire nyongeramusaruro.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, umurima munini uhinzwemo inyanya zitarera, harimo umugore uhetse igikoresho cyifashishwa mu kuvomerera imyaka kuyitera imiti yica udukoko, uwo mugore afashe inyanya mu ntoki arunamye.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu Gihugu cyacu cy'u Rwanda. Igishanga kinini gihinzwemo umuceri weze iruhande hari inyubako iterawe irangi ry'umuhondo, ishakakaje amabati impande zindi ziriho ibiti.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu buhinzi. Igihingwa cy'ikawa mbaturabukungu, zimwe zimaze gutukura izindi ntiziratukura. Inyuma yaho hari umugabo uri kuzireba.

Abanyarwanda bakomeje gukorera hamwe bashaka icyabateza imbere. Umurima munini urimo abagore abagabo bamwe bafite amasuka abandi amabase barigutera imyumbati mu murima. Inyuma yabo hari ishyamba rinini.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, umurima munini uciwemo umugenda utwara amazi, hahinzwemo amateke, iruhande hari ibigori byasaruwe, inyuma hari imisasa n'urutoki ruri hagati mu bigori.

Ubuhinzi bwa kijyambere bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda, umurima uhinzwemo indinganire, impande yaho harundi uhinzwemo ibihingwa bitandukanye nk'ibigori, amateke ndetse mu ndinganire hahinzemo ibishyimbo.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu gihugu cy'u Rwanda. Umurima munini uhinzwemo ibirayi bimaze kuyanga, hirya y'aho hari ikibuga kinini, impande y'ikibuga, hari ishyamba rinini.

Ubuhinzi bukomeje kwiganza mu gihugu cy'u Rwanda, ni byiza cyane. Umurima munini uhinzwemo imyumbati itarera, ikikijweho ibiti birebire. Impande hari ibisheke, amakoma.

Abanyarwanda bakomeje gukorana imbaraga mu buhinzi, bashaka umusaruro mwinshi. Umurima munini uciwemo imitabo, buri mutabo uhinzwemo ibishyimbo, hagati y’umutabo n’undi harimo ibyatsi byumye.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, umurima munini uhinzwemo urutoki, amateke, hariho insina zifite ibitoki byeze, hahagazemo umugabo wambaye ingofero ufashe telefone mu ntoki.

Igihingwa mbaturabukungu kizwi nk'icyayi kijyanwa mu mahanga tukabona amadovize yinjira mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, hagati haciwemo umuyoboro utwara amazi uyajyana mu gihingwa hakikijwe n'ibiti birebire.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu Rwanda, umurima munini uciwemo imitabo uhinzwemo inyanya, iruhande hakikijweho ibiti birebire hagati harimo umuntu wambaye imyenda y'umukara uri kureba uko inyanya zimeze.

Ubuhinzi bw'imbuto bukomeje gutera imbere, imbuto ni nziza mu mubiri w'umuntu kuko zimufasha kurindwa indwara, umurima munini uhinzwemo inanasi zitarasarurwa, zisa nk'izeze.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Umurima munini uhinzwemo ikawa, igihingwa mbaturabukungu kijyanwa mu mahanga bakaduha amadovize. Iruhande hari ishyamba rinini rifite ibiti bikuze.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere. Umurima munini urimo insina zitarakura, imbere y'aho hari ibiti birebire biri mu busitani, ibyuma bifite ibara ry'umutuku, inyubako isakaje amabati y'icyatsi.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, umurima munini uhinzwemo ibishyimbo hamwe byahirimye n'ibindi byiza, hakurya hari inyubako isakaje amabati y'umweru yubatswe mu ishyamba.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, umurima munini uhinzwemo ibigori bitoshye bisa neza, bimaze guheka, ubundi buhinzi buhinzwemo ibishyimbo, imboga z'imbwija.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu buhinzi bwabo, umurima munini uciwemo imitabo uhinzwemo insenda, hashinzwemo ibiti birebire byumye, iruhande hari ibiti bitari byuma n'ibigori.

Ubuhinzi bukomeje gushyirwamo imbaraga mu banyarwanda bose. Umurima munini uhinzwemo imyumbati, iruhande hari ibishyimbo biri kumera biva mu butaka, inyuma y'imyumbati hahinzwe ibigori n'ishyamba, n'ibindi bigori byasaruwe.

Ubuhinzi bw’imbuto bukomeje gutera imbere mu Rwanda hose; umurima urimo igiti cya avoka, iruhande hahinzwe amateke n’ibigori, n’ubwatsi bw’inka buri imbere y’amateke.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Umurima munini uhinzwemo imboga, iruhande hari insina. Hahinzwemo igiti cy'avoka, hirya hari ibigori n'ibiti bikuze.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, umurima munini utunganyijwe neza, uhinzwemo urutoki, ikawa zigiye ziri mu byobo, hagiye habamo umwanya munini hagati y'ikawa n'iyindi.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, Abanyarwanda bakomeje guhinga imboga kuko zibafasha kugira ubuzima bwiza, umurima munini uhinzwemo imboga z'inyabutongo, imbere hari umurima utaraterwamo ariko iruhande hari insina.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, umurima munini uhinzwemo amasaka ataratukura atarera afite amababi maremare, hakurya hari ikirere gisa ubururu.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Umurima munini uhinzwemo intoryi zitari zera, zimaze guterwa. Haraguru hahinzwe urutoki n'ibiti birebire.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, umurima munini urimo amabuye, hahinzwemo ibigori bitarera, iruhande hari ishyamba rinini, hirya hari undi murima uhinzwemo ibisheke.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu buhinzi bategura imbuto zo kuzatera, umurima munini urambitswemo insina zitaraterwa mu murima, bitegura guhinga hamwe hari amakoma ahandi hari izo baratera.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu Rwanda rw'imisozi igihumbi, umurima munini uhinzwemo intoryi, insina, ibishyimbo, hahagazemo umugabo ukoze mu mufuka.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu buhinzi, igihingwa mbaturabukungu nk'ikawa cyanitse kuri shitingi ifite ibara ry'umukara, iruhande hari umugabo uri kugenda asanza ikawa.

Imbuto ni ingirakamaro ku buzima bw'umuntu, Abanyarwanda bakomeje gukorana imbaraga kugira ngo bagere ku iterambere, umurima munini uhinzwemo inanasi zitarera, hirya hari ibiti binini birebire.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, umurima munini uhinzwemo inyanya izitukuye n'izitaratukura, iruhande hari umuntu uri kuzireba wambaye umupira w'umukara.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu buhinzi kuko bibageza kuri byinshi bakabona ibyo kurya bitunga imibiri yabo, umurima munini uhinzwemo urusenda, undi uhinzwemo inyanya zitarera, hasashishijwemo ibyatsi byumye.

Abanyarwanda bakomeje gukorera hamwe kuri buri kimwe cyose. Umurima munini urimo avoka z'ingemwe, ziri mu mashashi y'umukara. Hahagazemo abagabo, imbere yabo hari abahungu n'abakobwa b'abanyeshuri bambaye impuzankano y'ubururu. Bari kubereka uko voka iba imeze. Hakurya hari amashyamba.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu Gihugu cyacu cy'u Rwanda, umurima munini urambitswemo ingemwe z'ibiti ziri mu mashashi y'icyatsi zitaraterwa, iruhande hari umuntu uri kuzireba.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Umurima munini uhinzwemo ibishyimbo, imyumbati. Imbere yaho hari ibiti bizitiye imyaka, imyumbati ntirera n'ibishyimbo ntibirera.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Umurima munini uhinzwemo ibisheke byongera isukari mu mubiri w'umuntu. Amababi amwe yarumye, andi ntaruma. Hagati mu bisheke harimo amateke.

Ubworozi bw'amatungo magufi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Urukwavu ruri mu byatsi bimwe byaguye ibindi bihagaze, inyuma y'urukwavu hari igihaza kiribwa n'abantu.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, umurima munini uhinzwemo imyumbati, harimo ibiti bikuze, inyuma yaho hasaruwe ibigori, igishanga kirimo umuceri.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu buhinzi bakorera hamwe bafashanya, abagore, abagabo bari guhinga mu murima urimo imyumbati, urutoki hirya hari ibiti binini hepfo hari insina zitariho ibitoki.

Abanyarwanda bakomeje gukorera hamwe bashaka icyabageza ku iterambere, umuhanda munini uriho abantu abagore, abagabo bafite amasuka bakora umuganda, haraguru yabo hari umurima munini urimo ibyatsi bitoshye.

Gukorera hamwe bizana inyungu kuri benshi, umurima munini urimo abagore, abagabo bari guterura amabuye bayakura mu murima. Inyuma yabo hahinzwe urutoki, ibiti birebire, umuhanda uhagazwemo n'umuntu ufite igare.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Umurima munini uhinzwemo amateke, imyumbati, ibiti binini, urutoki. Harimo abagore babiri bambaye imipira y'icyatsi.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ikibuga kinini kirimo umugore, wambaye ipantaro yumukara ufite isuka mu ntoki ze, ufite ibyo ari gupima akoresheje metero. Inyuma hari inyubako nziza. Isakajwe amabati yuubururu.

Ubuhinzi bukomeje gutera intambwe mu gihugu cy'u Rwanda, umurima munini uhinzwemo ibishyimbo, umugore uri kubisarura abishyira mu gikoresho gifite ibara ry'umuhondo, inyuma ye hari ibiti birebire bikuze.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ikibuga kinini kirambuyeho shitingi yanitsweho ibishyimbo, hicayeho abagore babiri bafite intara bari kugosora. Inyuma yabo hari umugabo uhagaze impande y'ibigori.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu budufasha kugabanya ubukene, umurima munini uhinzwemo imyumbati, umuntu uri kuyikura, impande hari ishyamba rifite ibiti binini.

Gukorera hamwe kw'Abanyarwanda bizabageza kuri byinshi, abantu bari mu muhanda bari gukora umuganda, abagabo, abagore, barimo bakura ibitaka mu miyoboro y'amazi, inyuma yabo hari urutoki n'ibiti binini.

Abanyagwanda bakomeje gushyira imbaraga mu buhinzi bw'imbuto. Umurima munini uhinzwemo avoka zitari zera, umugabo ufashe kuri avoka, usa nk'aho yishimiye umusaruro we. Inyuma hari umurima uhinzwemo ibigori.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu u Rwanda, umurima munini uhinzwemo ibisheke, imyumbati imwe bakuye indi batarakura, harimo umugabo ufite isuka uri guhinga, impande hari ishyamba rifite ibiti binini.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu gihugu cy'u Rwanda, Abanyarwanda bafite imbaraga bakomeje gukorana umwete, umurima munini uhinzwemo inyanya, harimo abantu babiri umugabo n'umugore bari kuzitaho.

Umurima munini, uhinzwemo imyaka, ibirayi, ibishyimbo. Hahagazemo umugabo uhetse igikoresho bifashisha batera umuti mu myaka. Inyuma ye, hari insina n'imyumbati.

Abanyarwanda bakomeje gukorera hamwe muri byose. Umurima munini uhinzwemo ibirayi, abantu benshi buri umwe afite isuka bari kubyuhira neza bambaye imyenda yiganjemo umutuku.

Abanyarwanda bakomeje gukorera hamwe bashaka ibyabateza imbere. Umurima munini urimo abagore batatu bari guhinga banatera imyaka. Imbere yabo hahinzeho imyumbati n'amateke. Inyuma hari ubwatsi bw'amatungo. Mu murima harimo insina eshatu.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu buhinzi, umurima munini uhinzwemo urutoki bari gutera imyumbati, mu murima hari umugore wunamye, hepfo ye hari ibiti bikuze, iruhande hari imyumbati batarakura.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu buhinzi, inyubako nini yubakishijwe ibiti ibihagaritse n'ibitambitse, hamanitsweho ibigori byeze byumye, umugore ufashe ibigori bine mu ntoki.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, umurima munini uhinzwemo ibigori, harimo ibiti bikuze, iruhande hahinze urutoki, inyuma y'urutoki hari ubwatsi bw'amatungo, hakurya hari ishyamba rinini.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu gihugu cy'u Rwanda, igitebo gikozwe mu biti kirimo inyanya zeze, abantu babiri bari kugura, umugore ufashe amafaranga, umugabo ufashe urunyanya.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ibitoki birunzwe hamwe byinshi, hari abantu benshi, abagabo, abagore, bari mu nyubako isakaje amabati.

Ikibuga kinini gihagazwemo n'abagabo babiri bari guhambira imbuto bifashisha batera imyumbati, inyuma yabo hari umuhanda ukikijweho ibiti binini, mu kibuga harambitsemo umufuka w'umweru.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'urwanda, umusaruro ukomeje kwiyongera, umurima munini uhinzwemo urutoki, n'ibindi bitoki byasaruwe birunze hamwe, imbere y'ibitoki hahagaze umugabo uri guseka wishimiye umusaruro we.

Imbuto ni ingirakamaro mu mubiri w'umuntu, isoko ririmo imbuto zitandukanye amatunda, inanasi, imyembe, umugore munini ufashe ku maronji wambaye imyenda y'umweru.

Umusaruro ukomeje kwiyongera mu bahinzi, ikibuga kinini gitondetseho ibigori byumye, imbere yaho ari umusaza uri kubitondeka neza, inyuma ye hari idirishya rifite irange ry'umweru.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, umurima munini uhinzwemo ibigori bisa neza, harimo abantu benshi bari kubibagarira, hakikijweho ishyamba rinini rifite ibiti bikuze.

Abahinzi bakomeje kubona umusaruro mu buhinzi bwabo, ikibuga kinini cyanitsweho ibigori, imbere y'aho hari ihema ry'ubururu n'ibindi byasaruwe kera biri mu mifuka, inyuma hari ibindi bitarasarurwa.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda umusaruro uri kwiyongera, imifuka y'umweru irimo impungure zuzuye hejuru, hazamutseho ibara ry'umukara ku mifuka, iyo mifuka ntago ifunze.

Urujya n'uruza rw'abantu bari mu isoko bari gucuruza abandi bagura, hamwe hacururizwa ibyo kurya by'ibitoki, haraguru hari imyenda ifite amabara y'umweru, umutuku, umugore wicaye impande y'ibitoki uri kubicuruza.

Ubuhinzi bukomeje gutanga umusaruro mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Bakorera hamwe bakabona inyungu. Ikibuga kinini cyanitsweho ibigori, abagore bari kubikorera neza, bamwe bahetse abana, abandi badahetse abana.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, igishanga kinini gihinzwemo umuceri, impande hari ibigori, hakurya hahinzwe ibisheke n'urutoki, harimo inyubako zisakajwe amabati y'umweru.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu Gihugu cy'u Rwanda, abahinzi bakomeje gukorana imbaraga mu buhinzi bwabo, ikibuga kinini gisutsweho ibirayi binini n'ibitoya, iruhande hari indi mifuka irimo ibirayi ifite ibara ry'umweru, hazamutsemo iry'ubururu ku mpande.

Umusaruro ukomeje kwiyongera mu gihugu cy'u Rwanda, ikibuga kinini giteretsweho imifuka y'umweru, umwe urimo impungure, undi amashaza, ibishyimbo n'ibigori, hakurya hari umuntu wambaye ipantaro y'umukara.

Ubuhinzi n'ubworozi ni imbarutso y'iterambere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, umurima munini uhinzwemo ubwatsi bw'amatungo, hepfo hari inyubako yubakishije amabuye asa umweru, ku mpande hari umuhanda unyugwamo n'abantu n'ibinyabiziga.

Ibiti ni ingirakamaro ku muturarwanda, kuko bidufasha mu guteka ibyo kurya, no mu kubaka ibiraro, ibiraro. Ishyamba rinini riciyemo umuhanda, ukikijwe n’ibiti birebire bikuze.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, umurima munini uhinzwemo ibigori hakikijweho imbuto imyembe n'avoka, imbere mu bigori hahinzemo n'imyumbati.

Umurima munini urimo ibyatsi, bimwe bifite indabo z'umweru, harimo igiti kimwe cyatemwe n'ibindi bibiri bitaratemwa, harimo inzira.

Ubworozi bukomeje gutera imbere mu Gihugu cyacu cy'u Rwanda. Umurima munini uhinzwemo ubwatsi bw'amatungo bahereza inka, ihene, intama. Inyuma hari inyubako isakajwe amabati n'ikiraro cyubakishijwe ibiti.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Umurima munini uhinzwemo ibigori; harimo intsina, impande y'ibigori hari igiti kinini cy'avoka kiri mu busitani, umuhanda mugari ucamo abantu n'imodoka n'ibinyabiziga byose.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu bidukikije, umurima munini uhinzwemo ibiti by'ubwoko butandukanye gereveriya, inturusu n'ibyatsi by'amoko yose bibafasha kwita ku matungo.

Umurima munini uhinzwemo ibyatsi bitandukanye biribwa n'amatungo, imbere hari ibigori, iruhande hari imboga z'amashu hahinzemo n'amateke, inzu isakajwe amabati yubakishijwe ibyondo iri imbere y'amashu.

Ubuhinzi buri muri bimwe bizamura iterambere ry'Igihugu. Umurima munini uhinzwemo ibisheke, urutoki, avoka, iruhande hari igiti kitera imbuto. Hasi hari ibigori bitarera.

Ubusitani bunini burimo ibiti bimwe bikuze n'ibindi bitoya, imbere yaho hari inyubako isakaje amabati y'umweru, ifite amadirishya y'umukara. Imbere hari indabo zikikije uruzitiro rwubakishije ibiti.

Ibiti ni ingirakamaro ku baturage batuye u Rwanda. Ishyamba rinini ririmo ibiti bibisi n'ibyumye byifashishwa mu kubaka ibiraro by'amatungo, mu guteka ibyo kurya, harimo ibyatsi by'amatungo.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu gihugu cy'u Rwanda, umurima munini uhinzwemo ibigori bitari byera, harimo insina itarera igitoki, inyuma yaho hari ibiti binini.

Umurima munini urimo ibyatsi, igiti kirekire, inyuma yaho hari insina, akarima k'igikoni kariho imifuka y'umweru, igiti cy'avoka, inzu isakajwe amategura.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu Gihugu cyacu cy'u Rwanda umurima munini uhinzwemo amateke, ibihaza, urutoki. Imbere yaho hari ibigori bitarera. Iruhande hari ibiti birebire bikuze.

Umurima munini uhinzwemo amateke, ibijumba, insina, ibigori n'ibiti birebire bikuze, imbere yaho hari inzu isakajwe amategura.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu buhinzi bwabo, umurima munini utewemo amateke, intoryi zitarera, iruhande hari igiti cy'ipera kitarera gisa nk'aho ari cyiza, kiri mu byatsi bikuze.

Amashyamba ya kimeza ni ingirakamaro kuko tubonamo ibiti bikuze ducana, twubakisha ibiraro by'amatungo. Ishyamba rinini ririmo ibyatsi bitoshye n'ibiti birebire, imbere yaho hahinzwe imyaka y'ibishyimbo.

Ibidukikije ni ingirakamaro ku baturage no ku buzima bw’umuntu. Ishyamba rinini ririmo ibiti, ibikuze n’ibidakuze, hari n’ibyumye nk’inkwi bifashishwa bateka ziri hasi, iruhande hari ibyatsi.

Ubusitani bunini burimo ibiti binini, bikuze, impande yaho hari umuhanda. Inyuma hari inyubako ifite irange ry'umweru, isakajwe amabati y'umweru.

Ubuhinzi bw'imboga bukomeje gukwirakwira mu Gihugu cy'u Rwanda, Abanyarwanda bari gushyiramo imbaraga. Umurima uteretswemo ibase ifite ibara ry'umuhondo, harimo imboga z'inyabutongo. Iruhande hari umufuka w'umweru.

Imboga ni ingirakamaro ku buzima bw'umuntu, ibase nini irimo intoryi, inyanya, imbere yaho hari imineke isa umuhondo, igitenge kiri impande y'igitebo kirimo ibijumba.

Ubuhinzi ni inkingi y'iterambere ku banyarwanda, umurima munini uhinzwemo karoti, ipapayi, avoka, imbere hari inyubako itewe irangi ry'umuhondo isakajwe amabati, hepfo hari ibiti bikuze.

Ubuhinzi bw'imbuto bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, umurima munini uhinzwemo ibinyomoro hahagazemo abantu babiri umugore n'umugabo, umugore afite ikinyomoro mu ntoki ari kurya, hepfo hari ibyatsi bikikije ku binyomoro.

Imboga ni ingirakamaro ku buzima bw'umuntu. Isoko riri gucururizwamo intoryi, karoti, ibitunguru, byose bidufasha kugira ubuzima bwiza.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu buhinzi, umurima munini uhinzwemo imboga, ibishyimbo n'ibigori, imboga zireze, ibigori nt'ibirera, iruhande hakikijweho ishyamba.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Imbuto zihinzwe mu murima, hamwe zeze, izindi zitari zera. Hepfo hahinzwe ishyamba rinini, harimo n'ibiti bikuze.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Umurima munini utewemo voka bateyeho umuti wica ubukoko. Impande hari amazu asakajwe amabati y'umutuku. Haruguru hari ibiti binini.

Imboga ni inkingi yo kubaka ubuzima neza, ingarama irimo imboga z'amashu haruguru hari ibitunguru biri mu gatanda babicururizamo, imbere hari umufuka ufite ibara ry'umweru.

Ubuhinzi bw'Abanyarwanda bukomeje gutanga umusaruro uhagije, ikibuga kinini kiriho ihema rifite ibara ry'ubururu, harambuweho ishashi isutsweho ibitunguru, impande y'ibitunguru hari ibase ifite ibara ry'ubururu.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu buhinzi kuko bageza kuri byinshi. Umurima munini uhinzwemo intoryi hahagazemo umugore wambaye umupira w'umukara, n'ingofero y'umukara, afite intoryi mu kiganza amaze gusarura.

Ubuhinzi bukomeje gutezwa imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Umurima munini uhinzwemo urusenda, soya bisasishijwe ibiti byumye, iruhande hari ibyatsi.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Umurima munini uciwemo ibice, igice kimwe gihinzwemo karoti, ahandi ibijumba, ibigori, ishyamba rinini, ibiti by'avoka.

Ubusitani bwiza burimo indabo zitandukanye, zimwe zikuze n'izitarakura. Ibiti byumye biri hagati mu busitani. Hepfo hari umuhanda wubakishijwe amabuye, haraguru hari indabo zifite ibara ry'umutuku.

Imbuto ni ingirakamaro ku buzima bw'umuntu uwo ari we wese, umwana, umugabo, umugore wese akeneye imbuto mu buzima bwe, umurima munini uhinzwemo ibinyomoro byeze, umugore ufashe ibinyomoro bitatu mu ntoki wishimiye umusaruro.

Abanyarwanda bakomeje guhuza imbaraga bakorera hamwe, abantu benshi, abagore, abagabo, bafashe ku karima k'igikoni bateyemo imboga, kubakishijwe imifuka y'umweru, hashinzweho n'ibiti.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, umurima munini uhinzwemo intoryi, amateke iruhande hakikijeho ibisheke, inyuma hari amasaka ataratukura hirya hari ubwatsi bw'amatungo.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Imitabo ihinzwemo ibihingwa bitandukanye, umutaba umwe uhinzwemo ibitoki ahandi ibitunguru, sereri, karoti.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu Gihugu cyacu cy'u Rwanda. Umurima munini uhinzwemo intoryi, amateke, ku ruhande hakikijweho imigozi y'ibijumba. Hagati hari ibiti binini by'mapapayi, haraguru hari ibiti biri ahantu mu ntabire.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu buhinzi bw'imbuto, bakorera hamwe bazamurana, umurima munini utunganyirizwamo imbuto zo kujyanwa gutera, ibinyomoro, abagore n'abagabo bari gushyira mu mifuka imbuto bajyanye gutera.

Ubuhinzi bukomeje gutezwa imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ihema rinini ry'umukara rirambuye ku kibuga, hasutseho karoti, umufuka w'umweru urimo imbuto z'ibinyomoro. Imbere hari ibase ifite ibara ry'icyatsi irambitse muri karoti.

Ubusitani burimo indabo zitandukanye: zimwe zifite ibara ry'umutuku n'izindi zitayanga, imbere y'ubusitani haciye umuhanda wubakishijwe amabuye.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Akarima k'igikoni gahinzwemo imboga zisa neza, inyuma hari inyubako yubakishije amatafari ahiye, isakajwe amabati y'umutuku.

Ubuhinzi bw'imboga bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. umurima munini uhinzwemo imboga rwatsi zisasishijwe ibyatsi byumye, iruhande hari umurima munini uhinzwemo imyumbati.

Imboga n'imbuto ni ingirakamaro ku buzima bw'umuntu, ameza manini arambitswemo ihema rifite ibara ry'ubururu, hejuru hariho imyembe, amatunda, indimu, ibinyomoro byose biri gucururizwa mu isoko.

Ubuhinzi bwimboga bukomeje gushyirwamo imbaraga mu gihugu cy'u Rwanda. Umufuka ufite ibara ry'umuhondo wanitsweho imboga, karoti. Imbere harirumu wicaye wambaye umupira, w'ubururu, ipantaro y'umukara.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Umurima munini uhinzwemo inyanya, imyumbati hahagazemo umugabo ufite ubwanwa wambaye umupira w'umuhondo, imbere ye hari ishyamba rinini rifite ibiti n'ahatari ibiti.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu buhinzi. Umurima munini uhinzwemo indimu, indimu zisasishijwe ibyatsi byumye, inyuma hari ibindi biti bikuze.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu buhinzi. umurima munini uhinzwemo ibishyimbo, iruhande hari amazu asakajwe amabati y'umweru. Mu murima harimo abantu babiri umugore n'umugabo, bari kubagarira ibishyimbo.

Ubuhinzi bw'imboga bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, isoko ririmo: imboga, imbwija, karoti, intoryi, inyanya bidufasha kugira ubuzima bwiza biturinda indwara.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Abanyarwanda bishyize hamwe bakora amatsinda barahinga. Umurima munini urimo abagore, abagabo, bari gutera amazi ku myaka.

Urujya n'uruza rw'abantu bari mu isoko, abahaha n'abagurisha imboga mu isoko, harimo imyembe, amatunda n'ibinyomoro, isoko riherereye mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Huye.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu buhinzi. Umurima munini uri gutegwamo imboga z'amashu. Umugore wunamye uri gushyira ingemwe mu mwobo, iruhande hari igishanga kinini gihinzwemo umuceri hakikijweho amateke n'urutoki.

Ubuhinzi bw'imbuto bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ubutanda burimo amaronji, amatunda, imyembe biri gucururizwa mu isoko, mu isoko hamanitswemo amatara y'umweru.

Muze twese dukunde umurimo w'ubuhinzi kuko tubona umusaruro, tukabona ibiribwa duha umubiri wacu ukamera neza ndetse tugasagurira n'amasoko n'abatabifite bakabibona. Ubutaka bunini buhinzwemo amatunda menshi cyane agiye kwera.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu buhinzi, umurima munini uhinzwemo amateke ku ruhande inyuma hahinzwemo ibigori, hagati hari ingemwe z'inturusu zizaterwa umugabo urimo arazikorera isuku.

Gukorera hamwe ni inkingi y'iterambere. Abagore, abagabo, abana bari mu murima bari gutunganya imbuto z'ibinyomoro, bamwe barazifashe mu ntoki abandi barunamye, hasakajwe ibyatsi byumye aho zitunganyirizwa.

Imbuto ni ingirakamaro mu mubiri w'umuntu kuko zirinda indwara. Isoko rinini ricururizwamo imbuto. Harimo ibinyomoro, imyembe, haraguru hari inyanya. Inyuma hari ihema rifite ibara ry'ubururu. Hepfo hari imifuka y'umweru.

Urujya n'uruza rw'abantu bahaha n'abagurisha bari mu isoko, imbuto ziri mu mufuka w'umweru, ibinyomoro, amaronji, ibigori biri impande y'imbuto, ibase ifite ibara ry'umutuku iteretse ku gikoresho bifashisha bapima ibiro.

Ubusitani bunini burimo indabo zitandukanye, imbere hari urugi rufite ibara umweru, umukara, iruhande hari urugo rwubakishije amatafari ahiye.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu buhinzi bw'imboga. Isoko ricururizwamo imboga, harimo imiteja, karoti, intoryi, amashaza, avoka, impande hari umugore uri kubicuruza.

Ubuhinzi bw'imboga bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda. Umurima mugari cyane urimo imboga z'amoko atandukanye. Imbwija, inyanya, amashu ndetse impande yawo hakikijwe ibiti byera imbuto n'inzu.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu guhinga imboga kuko zituma bagira ubuzima bwiza butagira indwara, umurima munini uhinzwemo imboga z'amashu, urusenda, bisasishijwe ibyatsi byumye.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu buhinzi. Umurima munini urimo abantu babiri umugabo, umwana uhinzwemo inyanya zitarera, iruhande hari indi mirima umwe uhinzwemo imyumbati, n'ahandi hataraterwa imyaka.

Ubuhinzi bw'imboga bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Imboga ni nziza kuko zirinda indwara mu mubiri w'umuntu. Umurima munini uhinzwemo intoryi, dodo intoryi bitari byera.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, umurima munini uhinzwemo imyumbati myinshi, impande y'aho hari ishyamba rifite ibiti bikuze, imyumbati ntago yari yera.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, umurima munini uhinzwemo imboga z'inyabutongo harimo ibitunguru, iruhande hari umugore uri kuvomerera imyaka, inyuma hari ibishyimbo bitarera n'ibigori.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu buhinzi. Umurima munini uhinzwemo indabo zifite amabara y'umutuku, abagore batatu bafite ibikoresho bari kuvomerera imyaka kugira iticwa n'izuba.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu buhinzi. Umurima munini urimo abantu benshi, umwe uhinzwemo umuceri utari wera. Iruhande hari undi murima ucukuyemo imyobo, uri kuvomererwa n'umukecuru wambaye ingofero.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, umurima munini uhinzwemo ibigori harimo n'ibiti birebire, umugabo uri kuvomerera wambaye umupira w'umutuku, ingofero y'umweru ipantaro y'umukara.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Umurima munini uhinzwemo urusenda, hakikijeho ibigori. Hagati mu murima hari ikigega cyifashishwa mu kuvomerera imyaka. Hariho ibara ry'icyatsi ku kigega.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu buhinzi. Umurima munini utewemo imyaka itaramera, abagabo babiri bari kuvomerera. Iruhande hari ikiyaga, inyuma hahinzwe ibigori hari n'ibiti bikuze.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Umurima uhinzwemo imboga z'amashu, haraguru hari ibigori biteze. Iruhande hari ishyamba rikikije iyo mirima. Hari undi murima uri kuvomererwa n'umugabo ufite ibase y'icyatsi imyaka itaramera.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, umurima munini uhinzwemo umuceri utarera, hahagazemo umugore ufite ibikoresho bifashisha bayobora amazi mu murima.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, umurima munini uhagazwemo abagabo babiri bafite ibikoresho bifashisha bavomerera imyaka, hahinzwemo intoryi zitari zera haraguru hari amasaka.

Abanyarwanda bakomeje gukorana imbaraga muhinzi bwabo, umurima munini uhinzwemo karoti harimo abagabo babiri, umwe wambaye umupira w'umutuku uhagaze imbere y'igiti, undi ufite igikoresho bifashisha bavomerera imyaka wambaye amadarubindi n'ipantaro y'umukara.

Umurima munini uhinzwemo imboga zisasishijwe ibyatsi byumye, umuntu wambaye imyenda y'ubururu uri kuvomerera iyo myaka, inyuma ye hari umurima munini w'ibigori bitari byuma n'ibyumye.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu buhinzi bwabo. Umurima munini uhinzwemo urusenda rutarera. Iruhande hari abantu bari kugenda, mu murima hagati harimo abagore babiri bafite igikoresho bari kuvomerera imyaka.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu buhinzi bakoresha ibikoresho bya kijyambere. Umurima munini uhinzwemo ibigori. Harimo abantu bari kuvomerera imyaka. Iruhande hari undi murima utewemo urutoki.

Abanyarwanda bakomeje gutera imbere mu buhinzi. Umurima munini uhinzwemo imboga, undi murima utarameramo imboga ariko uri kuvomererwa, hasasiyemo ibyatsi byumye. Umugabo ufite ibase y'icyatsi uri kuvomerera imyaka uhagaze hagati.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu Gihugu cyacu cy'u Rwanda. Umurima munini uhinzwemo ibigori bitereye bitari byera, icyuma kibivomerera, hakikijweho ibiti bitandukanye n'inyubako zifite amabati y'umweru.

Imirima minini iciwemo imiringoti, hamwe hahinzwe, ahandi harimo imyaka, umudugudu mwiza, wubakishijwe amabati y'umweru.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Umurima munini uhinzwemo amapera. Iruhande hari imyumbati, haraguru hari ibiti binini, iruhande hari ahandi hahinzwe ibisheke.

Ikibuga kinini kirimo abantu babiri, bambaye imyenda y'umukara. Haraguru hari imirima minini ihinzwe n'idahinzwe, hakikijweho ishyamba rinini rifite ibiti bikuze. Mu kibuga harimo igiti.

Ubuhinzi bwa kijyambere buhinze neza, imiringoti iteweho ubwatsi bw'amatungo, hagati harimo ibiti birebire birinda isuri bigafata amazi. Hakurya hari ishyamba rinini, ririmo ibiti bi...

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, imirima minini ihinzwemo ibishyimbo, ibijumba, urutoki, imyumbati, inyubako isakajwe amategura yubakishijwe amatafari iri hagati mu mirima.

Ikibuga kinini hamwe hari ibyatsi ahandi ntabyo, hakikijweho ibiti urutoki, igishanga gihinzwemo umuceri, ibigori, hakurya hari ishyamba rinini.

Abanyarwanda bakomeje gukorera hamwe mu buhinzi babona inyungu nyinshi, umurima munini urimo abagabo, abagore bari kuvomerera, inyuma yabo hari ishyamba rinini ririmo ibiti.

Ubuhinzi burakomeje mu gihugu cy'u Rwanda. Imirima ihinzwemo imyaka, indi idahinzwemo, insina zitari zera, hari ibiti birebire. Umuhanda w'igitaka uri gucyamika mu misozi.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, igishanga kinini gihinzwemo umuceri utarera ubagariwe neza, hakikijweho amashyamba afite ibiti binini hakurya hari imisozi iriho amashyamba.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu gihugu cy'u Rwanda. Igishanga kinini gihinzwemo umuceri, hirya hakikijweho ishyamba rinini. Hakurya hari umusozi.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu buhinzi. Umurima munini umaze guhingwa, hamwe utarahingwa. Haraguru hari igiti kirekire kiri ku musitari kitera imbuto. Hakurya hari amashyamba.

Gukorera hamwe ni intego nziza. Umurima munini urimo abantu benshi batandukanye, abagore, abagabo, haciwemo imyobo irimo imbuto z'ibirayi, impande yaho hari ishyamba rinini.

Ubusitani bunini butewemo ibiti by'amoko atandukanye, harimo inyubako yubakishije amabuye. Imbere yaho hari umuhanda mugari, inyuma hari ibiti binini byeraho imbuto z'amapera.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu Gihugu cyacu cy'u Rwanda, umurima uhinzwemo ibigori, iruhande hari ishyamba rifite ibiti binini, imbere hari inyubako isakaje amabati y'umutuku, inyuma y'urugo hari umugabo wambaye imyenda y'umutuku.

Igihingwa mbaturabukungu icyayi kinini, harimo ibiti birebire bitandukanye, ishyamba ku ruhande, hari aho icyayi kigiterwa haciyemo imigenda.

Ubusitani bunini burimo ibiti bikuze n'ibitarakura, iruhande haciweho umuhanda unyuramo ibinyabiziga n'abagenzi, inyuma y'aho hari inyubako nini isakajwe amabati y'umweru.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Umurima munini usaruwemo ibigori, imbere yaho hari ishyamba rinini rikuze, n'irindi ritarakura. Haraguru y'ishyamba hari inyubako zisakajwe amabati y'umutuku.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, igishanga kinini gihinzwemo ibigori haruguru hari inyubako isakajwe amabati y'umutuku hasizweho irange ry'umweru, iruhande hari ishyamba rinini.

Ubuhinzi bukomeje gutezwa imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, umurima munini uhinzwemo imyumbati, iruhande hari igishanga gihinzwemo umuceri, haraguru y'umuceri hari ishyamba rinini haragura y'imyumbati haciyeho umuhanda.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu buhinzi. Umurima munini uhinzwemo ibigori, imbere hari abantu bikoreye imifuka. Hakurya hari imisozi iteweho ishyamba rikuze n'iritarakura.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu gihugu cy'u Rwanda. Umusozi munini uhinzweho ibihingwa bitandukanye. Ibishyimbo, ibijumba, imyumbati, ibigori. Hari n'intabire zitarategwamo imyaka.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu buhinzi batitangiye itama. Igishanga kinini gihinzwemo ibigori, ibishyimbo, igihingwa mbaturabukungu k'icyayi, amashyamba manini arimo inyubako zisakaje amabati y'umweru.

Ubworozi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ikiraro cyubakishijwe ibiti n'imbaho. Hariho n'agatanda inka iriramo. Mu kiraro haryamyemo inka ifite ibara ry'umukara.

Umurima munini urimo ibyatsi, ahandi ntabyatsi bihari, inka iri kurisha, inyuma yayo hari umugabo wambaye umupira w'umutuku. Inyuma hari ibigori bitari byera.

Ubworozi bw'amatungo magufi ni bwiza. Icyumba kinini kirimo inkoko nyinshi ziri kunywera amazi mu bikoresho by'umweru, harimo imigozi ifashe ibyo bikoresho.

Ubworozi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ibiraro byubakishijwe ibiti, imbaho, imbere yaho hari abantu batatu umugore, umugabo, umwana, umwana n'umugabo bafite ubwatsi mu ntoki bari guhereza inka. hasi hari inkoko ziri gutora ibyo kurya.

Abanyarwanda bakomeje gukorera hamwe, bagera ku iterambere rirambye. Inyubako nini, isakajwe amabati y'umweru, hubakiwemo ibiraro by'amatungo y'ingurube. Imbere hari abagore, abagabo.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu bworozi bw'amatungo magufi n'amaremare, ibiraro byubakishijwe ibiti n'imbaho, imbere y'inka hahagaze umugore, umugabo n'umwana bari kugaburira amatungo.

Ibibuti by'inkwavu bisizwe irange ry'ubururu, hagiye handikwaho imibare yerekana umubare wa buri kibuti, harimo inkwavu zifite amabara y'umweru n'umukara, imbere yaho hari abagabo babiri bafite ibase y'ubururu n'iy'umukara.

Ubworozi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ikiraro cyubakishijwe ibiti n'imbaho. Harimo amatungo magufi amahene, imwe iziritse ku mugozi w'umweru indi iraryamye, zose ziri kurebana.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu bworozi bw'amatungo kuko butanga inyungu, butanga ifumbire, inyama zo kurya, ikiraro cyubakishijwe ibiti kiryamyemo ingurube nini cyane.

Ubworozi ni ingenzi ku banyarwanda kuko bubafasha muri byinshi, mu kubona ifumbire yifashisha mu buhinzi, amata atuma bagira ubuzima bwiza, ikiraro cyubakishijwe ibiti harimo inka ifite ibara ry'umukara.

Ikibuga kinini gisutsweho amabuye hararambitse ibiti. Imbere y'amabuye hari inkoko y'isake, inyubako isakaje amabati y'umweru hashinzeho n'ibiti hanitseho imyenda mo imbere.

Ubworozi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ikiraro cyubakishijwe ibiti ibitambitse n'ibihagaritse, mu kiraro harimo inka ifite ibara umweru n'umukara, inyuma hari ibiti bibisi bitewe mu ishyamba.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu bworozi bw'amatungo magufi. Ikibuga kinini kiriho amahembe atanu, imwe yashinze amavi hasi, izindi zirahagaze ziziritswe imirunga mu maguru. Inyuma hari inyubako ikikijweho amabati asa icyatsi.

Ubworozi bw'amatungo magufi bukomeje gutera imbere, ibiraro byubakishijwe ibiti, harimo amahene abiri umugore uri kuyazirika imirunga mu kuguru.

Ikibuga kinini, hamwe hari ibyatsi ahandi nta bihari, hari abantu benshi bari mu matsinda, buri muntu afite ingurube imbere ye, inyuma yabo hari ibiti birebire.

Ubworozi bukomeje gutera imbere mu gihugu cy'u Rwanda, ikiraro cyubakishije inkarakara n'ibiti, harimo inka y'umukara ifite inyana yayo nayo iryamye mu byatsi byumye.

Ubworozi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ikibuga kicaweho n'umwana ufite inkoni mu ntoki, imbere ye hari umugore uri kuzirika amahene, ikiraro cyubakishije ibiti kirimo inka.

Ikibuga kinini gihagazweho n'inka ebyiri, umwana w'umukobwa ufite inkoni mu ntoki uri kugaburira inka y'umukara, umusaza uri kugaburira inka y'umweru, ibiraro by'inka byubakishije ibiti.

Ubworozi bw'amatungo magufi bukomeje kuzana inyungu mu banyarwanda, ikibuga kinini kiziritsweho amahene abiri, imbere yaho hari ikiraro cy'ingurube cyubakishije ibiti, ibihagaritse n'ibitambitse.

Ubworozi bw'amatungo magufi bukomeje guteza imbere umuturage, yaba n'igihugu cyacu iterambere rikiyongera buri munsi. Ubutaka bunini cyane burimo inyubako iteye sima irimo amatungo y'ingurube ari kurisha.

Ubworozi bw'amatungo magufi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ikibuga kinini kiziritsweho amahene ane, buri hene iziritswe mu murunga wayo usa umweru, imbere yaho hari ibiraro byubakishijwe ibiti n'imbaho.

Ubworozi bw'amatungo maremare bukomeje gutera imbere, inka y'umukara ifite irindi bara ry'umweru mu mpanga, iri mu kiraro cyubakishijwe ibiti n'imbaho.

Ubworozi ni bimwe bizana iterambere mu gihugu cyacu. Icyumba kinini kirimo ibibwana by'ingurube biri kureba imbere, iruhande hari ibikoresho bifashisha babigaburira n'aho birira.

Ubworozi bw'amatungo magufi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, icyumba kinini kirimo inkoko eshanu n'umugabo uri kuzigaburira wambaye umupira w'ubururu, inyubako yubakishije amakarakara imbere hari imifuka y'umweru.

Ubworozi bw'amatungo magufi, bukomeje gutera imbere mu Gihugu cyacu cy'u Rwanda, kuko butugeza kuri byinshi. Mu gutanga ifumbire twifashisha duhinga. Ikibuga kinini kiryamyeho ihene iziritse mu mugozi w'umweru. Imbere yayo hari ikiraro cyubakishijwe imbaho.

Ubuhinzi n'ubworozi bikomeje gutera imbere mu gihugu cyacu, ikiraro kirimo inka ifite amabara y'umweru, iri kureba imbere, cyubakishijwe ibiti. Ihagaze mu byatsi bibisi.

Ikibuga gihagazweho umugabo ufashe inka umurunga. Inyuma hari umwana wikoreye ikidomoro n'abandi bari kugenda mu nzira. Inyubako isakaje amategura, iri mu biti.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu bworozi bwabo kuko bubaha umusaruro ushyitse, igishanga kinini kiziritswemo inka ifite ibara ry'umukara, inyuma yaho hari urugo rwubakishije ibiti.

Ubworozi bw'amatungo magufi bukomeje guteza imbere abaturarwanda ndetse n'igihugu muri rusange, inzu irimo inkoko nyinshi cyane ziri gutora ibyo kurya, ziri kubifatira ku ndobo z'umweru n'imifuniko isa umutuku.

Icyumba cyororewemo amatungo magufi, inkoko nyinshi. Harimo umuntu wambaye imyenda y'ubururu, uri kuzigaburira mu gikoresho cy'umweru.

Ubworozi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda buduha inyungu, inyungu zikomoka ku ifumbire, ku mata, inka iri mu kiraro cyubakishijwe ibiti ifite ubwatsi imbere yayo iri kurya.

Ubworozi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ikiraro kiryamyemo inka ifite amabara umukara n'umweru, iryamye mu byatsi byumye. Inyuma yayo hari ikiraro cyubakishijwe ibiti bitambitse n'ibindi bihagaritse.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu bworozi bw'amatungo magufi nk'ihene. Ikibuga kinini kiziritsemo amahene abiri ari kurisha. Imbere yaho hari ubwatsi bahirira inka.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu bworozi, ikibuga kinini kiriho ingurube, abantu benshi, abagore, abagabo, inyuma yaho hari inyubako yubakishije ibiti, isakajwe amabati y'umweru.

Ubworozi bw'amatungo bukomeje kugera ku Banyarwanda bose. Ikibuga kinini cyubatsweho ibibuti by'inkwavu, byubakishijwe imbaho. Imbere yaho hahagaze abagore, abagabo, buri umwe afite urukwavu mu ntoki.

Ubworozi bukomeje kuzana inyungu, ku baturarwanda bose. Ikibuga kinini, kiziritsweho inka, iri munsi y'igiti. Inyuma yaho, hari inyubako isakajwe amabati, y'ubururu inka nta bwatsi ifite imbere yayo.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu bworozi bw'amatungo magufI. Ikibuga kinini cyicaweho abagore, abagabo, buri wese afite ingurube imbere ye, hagati mu kibuga harimo umugore wambaye ipantaro y'umukara, inyuma yabo hari imodoka y'umukara n'ubusitani bwiza.

Ubworozi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ikibuga gihagazweho abantu batatu, umugabo, umugore n'umwana, inyuma y'umwana harambitse isuka, hari inyubako yubakishije amatafari iteyeho icyondo urugi rusa ubururu.

Ubworozi bukomeje gutera imbere yaba ubw'amatungo magufi n'amaremare bukomeje kuzamuka. Umugore, umugabo n'umwana bari kwita ku matungo amahene n'inka. Inka ziri mu biraro amahene ari hanze. Inyuma yabo hari urugo rwubakishije ibiti.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu bworozi bwabo. Ikibuga kinini hahagazeho ingurube ifashweho n'umugabo wambaye umupira w'umweru. Imbere hari ikiraro cyubakishijwe ibiti.

Ubworozi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ikiraro cyubakishijwe ibiti ibihagaritse n'ibitambitse, inka iri kureba imbere harimo ibyatsi bitumye, inyuma ku kiraro hakikijweho ibiti byumye.

Ubuhinzi bw'imboga buzana inyungu ku baturage, bashyizemo imbaraga cyane. Umurima munini uhinzwemo amashu atari yera, iruhande hari ibiti. Umurima wundi wasaruwemo ibigori.

Umubiri wacu ukenera ibitera imbaraga, ibirinda indwara ndetse n'ibyubaka umubiri kugira ubuzima bigende neza. Nk'ubutaka bunini cyane, burimo amapapayi akiri matoya, ari mu mifuka y'umweru.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Umurima munini uhinzwemo imyumbati itera imbaraga, impande hari ibyatsi by'amatungo byitwa urubingo, bifasha inka kubaho neza.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu guhinga imboga, umurima munini uhinzwemo ibitunguru, imboga za dodo, iruhande hari inyubako isakaje amabati y'ubururu yubakishijwe amatafari adahiye.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Abanyarwanda bakomeje gukorana imbaraga mu buhinzi bwabo. Umurima munini uhinzwemo imyumbati itari yera ikiri hasi. Indi yakuwe ibiti birambitse mu murima.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu buhinzi. Umurima munini urimo ibiti bya avoka biri mu mashashi asa umukara n'andi y'umweru. Byitegugwa kuzajyanwa gutera.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu buhinzi. Umurima munini uhinzwemo, ibijumba, amateke, insina. Impande hari ibyatsi by'amatungo. Inyuma hari inyubako yubakishije amatafari.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu buhinzi babona n'umusaruro. Ikibuga kinini kiriho ibigori biri mu mababi, imbere yaho hari ibindi bigori bitarasarurwa.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, Abanyarwanda bakomeje guhinga imbuto bidufasha kugira ubuzima bwiza, umurima munini uhinzwemo amatunda imbere yaho hari umuhanda hakurya hari ishyamba rinini.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ikibuga kinini cyubatsweho ibiti, ibihagaritse n'ibitambitse bimanitsweho ibigori bifite amababi. Impande hari ishyamba rinini rifite ibiti birebire.

Abanyarwanda bakomeje gukorera hamwe bafashanya mu gushaka inyungu zabateza imbere, umurima munini utewemo imbuto bifashisha batera, usakajwe ishitingi y'umukara, yubakishijwe ibiti birebire.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ikibuga kinini cyubatsweho inyubako yubakishije ibiti bahunikamo imyaka. Harimo ibigori bifite amababi, n'ibindi bidafite amababi.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ikibuga kinini kiriho ubusitani ku ruhande hatewemo indabo, imbere hari ibigori bitarera, impande hari amatiyo y'umweru atwara amazi.

Ubuhinzi ni ingirakamaro mu gihugu cy'u Rwanda, kuko budufasha kubona ibyo kurya. Umurima munini uri gutegurirwamo imbuto z'amatunda. Hicayemo umugabo wambaye ipantaro y'umukara. inyuma ye hari umugore uri kuvomerera imbuto.

Ikibuga kinini kiriho ishyo ry'inka abantu bari kuzitaho, abagabo batatu. Impande hahinzwe ibigori, inyuma hari ishyamba rinini. Impande y'ikibuga hari inyubako ifite irangi ry'umweru isakaje amabati.

Ubworozi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Umurima munini utewemo ibiti, ibikuze n'ibidakuze. Harimo inka ifashweho n'umugabo usa nk'uri kuyivura, wambaye inkweto z'umukara n'ipantaro y'umukara. Imbere y'inka, hari umugore wunamye.

Ishyo ry'inka riri mu biraro byubakishijwe ibiti, hahagazemo abagabo batatu, hariho igiti kinini, impande hari ibiti bihakikije, imbere hari inzu isakajwe amategura.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu bworozi bw'amatungo magufi. Igishanga kinini kiragiwemo amatungo, intama, ihene, harimo abagabo babiri, umwe ari kuvura ihene, undi amufashije amaguru y'ihene.

Ikibuga kinini kiriho abantu bafite inka basa nk'abari kuragira, impande y'aho bakikijwe ibigori bigiye bihingwa mu buryo butandukanye, hari igishanga gihinzwemo umuceri.

Ubusitani bunini burimo ishyo ry'inka, abagabo batatu bari kwita ku nka, imbere hari ibiti birebire, inyubako ndende zubakishijwe amabati y'umutuku. Umugabo umwe yambaye ipantaro y'umukara, ari hanze y'ikiraro.

Ikibuga kinini gihagazwemo n'umugabo ufite ishashi mu ntoki, hateretseho indobo ifite ibara ry'ubururu n'isafuriya, inyuma hari ikiraro kirimo inka y'umukara, ikiraro cyubakishijwe ibiti.

Ubworozi bw'amatungo magufi Abanyarwanda bakomeje kubukora. Umurima munini uziritswemo amahene, abagabo babiri n'umugore n'umwana bafashe amahene mu ntoki. Inyuma umuhanda mugari, hakurya hari inyubako zisakajwe amabati y'umweru.

Ubworozi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, abagabo batatu bari imbere y'ikiraro cy'inka cyubakishijwe ibiti, hari inka ebyiri, imwe umugabo umwe ayifasheho, indi iri mu kiraro, ifite ikiziriko cy'umweru.

Urujya n'uruza rw'abantu mu isoko, bamwe bari guhaha abandi bari kugurisha, bazanye amahene, intama, mu isoko, abagore n'abagabo, inyuma y'isoko hahinzwe urutoki n'umuceri, hakurya hari imisozi iteweho amashyamba.

Inyamaswa zikomeje guteza imbere igihugu zinjiza amadovize ba mukerarugendo baza kuzireba, inzovu nini ihagaze imbere y'umuhanda, hakurya hari ishyamba rinini rifite ibiti bigufi bitarakura cyane.

Inyamaswa ziri muri bimwe bikomeje guteza imbere Igihugu cyacu cy'u Rwanda, ba mukerarugendo baza kuzireba bakishyura amadovize Igihugu cyacu kigakomeza gutera imbere, ishyamba rinini ririmo inyamaswa ebyiri ziri kurebana, hakurya hari ibiti inyamaswa zibamo.

Umuhanda mugari cyane urunzweho amabuye ku mpande, hari ikiraro gihagazeho inkende, inyuma hari inyubako ifite urugi rw'umutuku, n'ahandi hari imbuto z'amapapayi, inyuma hari ibiti birebire.

Inyamaswa ni zimwe mu biteza Igihugu imbere zikurura ba mukerarugendo bakazana amadovize, ishyamba rinini ririmo impala n'imparage zimwe zireba inyuma izindi imbere, iruhande hari ibiti byumye.

Inyamaswa ni zimwe mu byongera ubukungu bw'Igihugu, zikurura ba mukerarugendo bagatanga amadovize ubukungu bw'Igihugu bukiyongera, ishyamba rinini ryicayemo intare eshatu, imwe iri kureba imbere, izindi ziri kureba hepfo no haruguru.